Akazu gafunguye gakorerwamo serivisi za MTN zose, impande hari indabo ndetse n'igiti cyihakikije inyuma yaho hari inzu yo guturamo.

abagabo babiri bicaye ahantu hamwe bose bambaye amasaha ku kuboko, umwe afite terefone yambaye nijire y'umuhondo atanga serivisi za MTN, yambaye na baje mu ijosi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, iriho ikirangantego cy'igihugu, isaha ku kaboko n'impeta ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imgirwarwaruhame. Imbere ye harambitse ameza ndetse ari.

Umugabo wambaye ikositimu ari guhereza igihembo k'ishimwe abantu babiri bambaye imipira isa ubururu, hari abandi inyuma bicaye mu mahema bari gukoma amashyi babashimira.

Abagore n'abagabo bahagaze ku murongo bazamuye akaboko bishimye bari guseka, inyuma yabo hari igitambaro kimanitse ku rukuta cy'umweru, inzu isize irangi ry'umuhondo.

Abahinzi barimo abagore n'abagabo bari mu bigori bari kubyanika ndetse n'abandi bahagaze. Impande hari ibiti ndetse n'uruzitiro rusize irangi ry'umutuku.

Abagabo babiri bari gufata ifoto, umwe yambaye isaha ku kaboko, ari guhereza igihembo cy'ishimwe, inyuma hicaye abaturage mu ihema bambaye imipira isa ubururu.

Igikombe cy'ishimwe, hasi ku ntangiriro hariho ibendera ry'igihugu uy'u Rwanda ndetse n'impamyabushobozi, imbere hicaye umugabo wambaye ipantaro n'inkweto.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ahagaze mu kabari, inyuma ye hari akabati karimo inzoga z'ubwoko butandukanye mu macupa ndetse na firigo ku ruhande ishushanyijeho icupa rya Mitsingi.

Icyumba cya hoteri kirimo amatara ari kwaka, imitako ku gikuta mu imbere hari ameza menshi ndetse n'intebe biteguyeho amasahane n'ibirahure.

Abagabo babiri bahagaze mu iduka ririmo ibikoresho bitandukanye, amabombo, amabiswi n'ibindi biri mu bikarito bifunze mu mabara atandukanye.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu iduka ririmo ibiribwa bitandukanye harimo: inyanya, ibitunguru, ibishyimbo, amavuta yo guteka ndetse n'ifu.

Imbuto zirunze mu kintu barengejeho umufuka, harimo imyembe, amatunda, indimu, ibinyomoro hejuru harunzeho udupfunyika twa kake, impande hahagaze abantu n'umweyo urambitse hasi.

Urusengero ruteguyemo indabo, indangururamajwi, inyuma ku gikuta hamanitse ishusho ya Yezu n'iya Bikiramariya. Harimo amatara amanitse hejuru ndetse n'ameza ateguyeho ibitambaro by'icyatsi.

Inyubako isize irangi ry'umweru, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku, iruhande hari jaride y'indabo ndetse n'ibiti bihakikije.

Icyumba cya hoteri gisize irangi ry'umuhondo, amarido amanitse umuryango urafunguye, hanze hari ameza ariho ururabo ndetse n'intebe.

Icyumba cya hoteli kirimo igitanda matora ishesheho amashuka y'umweru n'imisego, impande hari ameza ndetse n'intebe n'amatara ari kwaka.

Inyubako igeretse isakaje amabati ifite amadirishya menshi n'inzugi, hasi hari ubusitani ndetse na pisine byo kogeramo, intebe zo kwicaraho n'imitaka yo kugama izuba.

Inyubako igeretse kabiri, impande hari ubusitani bw'indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'akayira n'umugezi w'amazi atemba n'ibiti.

Umugabo n'umugore bicaye impande y'umuzungu, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa, impapuro n'amakayi ndetse n'ibyo kunywa bibateretse imbere.

Inyubako ndende isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya menshi, isakaje amabati, hejuru hari imirasire y'izuba ihamanitse ndetse impande igiti.

Ubwoko bwi'ibitenge buri mu mabara atandukanye bumanitse hejuru, harimo umutuku, icyatsi, ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'umucuruzi n'abaguzi bahagaze.

Imodoka ziparitse mu kibuga kirimo ibyatsi hubatse amahema y'umweru n'ubururu hari abantu benshi abagore n'abagabo ndetse haparitse amagare na moto.

Ku isoko harambitsemo ibikoresho bitandukanye, imifuka iriho ibikoresho byinshi byo kurya, umunzani, ibase, imihini, ameza ateretseho ibintu ndetse n'abantu bahagaze.

Amasahani abiri ariho ibyo kurya ateretse ku meza iruhande yayo harambitse icyuma ikiyiko n'ifurusheti ndetse n'ibirahure birimo ibyo kunywa.

Umuhanda munini wa kaburimbo harimo amapikipiki atwayeho abagenzi ndetse ku mpande hari abanyonzi bari gucunga amagare yabo n'abagenzi batambuka.

Ipikipiki iri mu muhanda munini wa kaburimbo, itwaye umumotari n'umugenzi, inyuma bapakiyeho inkoko nyinshi, impande y'umuhanda hari ibiti n'imirima ndetse n'amazu abiri ahubatse.

Umuhanda w'amabuye hari kunyuramo moto itwawe n'umumotari wambaye kasike, impande hari amazu y'ubucuruzi asize irangi ry'umweru ndetse n'icyatsi, umugabo uhagaze imbere yayo afite amajerekani abiri mu ntoki.